Umugabo n'umugore we bari kugenda mu modoka, umuhanda muremure barimo baraganira barebana mu maso baba baseka, inyuma yabo handitse turi kumwe ikerekezo kinzozi zawe, ibyishimo by'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, kanda kanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe.

Umubyeyi uryamye mu ntebe ufashe ku gahanga, ufite imisatsi y'umukara ameze nk'urimo aratekereza ibintu byinshi yagiye kure, iruhande rwe hari umusego yasinziriye, aryamye mu ntebe z'umweru.

Abagore babiri barimo barareba muri mudasobwa, umwe yambaye umupira w'umukara, yambaye na linete, afite imisatsi myinshi, undi nawe yambaye umupira w'ubururu nta musatsi mwinshi afite, arimo arakurikira bameze nk'aho bari kumwigisha.

Ndabona akabati kameze nk'akari ahantu mu iduka, karimo imyenda, amashati, ingofero, imipira, amasengeri, ingofero z'amabara atandukanye n'andi mashati amanitse hejuru.

Umubyeyi urimo gucuruza iduka arimo arakira umwana w'umukobwa, uwo mumama yiteze igitambaro gisa umwru, iruhande rwe hari umunzani upima ibicuruzwa hateretseho ibuye ry'umunzani hakaba ateretseho n'ifarini iri muri anvelope.

Ndabona umugabo w'umuzungu urimo arerekana wereka umugore w'umucuruzi imyenda yahisemo umeze nkuri kumubaza ibiciro, nkabona n'undi muzungu uhagaze nawe umeze nkuri guhaha nkabona n'indi myenda imanitse kuri porutemanto.

Ndabona ibikapu byinshi bitandukanye bimanitse ku biti, ku nkingi z'ibiti, by'amabara atandukanye; by'umuhondo, harimo n'iby'umutuku, harimo n'iby'umweru, harimo n'iby'icyatsi, harimo n'ibya oranje, bimeze nk'ibiri kugurishwa..

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka ndende y'umweru bayikozeho bameze nk'abarimo barifotoza, imodoka iparitse ahantu hari amabuye y'ikigina, imbere y'aho hateretse agakapu gasa umutuku kariho n'akarango k'umweru.

icupa rya mazi y'inyange riteretse ku meza, ameza y'kirahure hariho imvaho ziriho amakuru y'imikino, imbere yaho hari imodoka y'ikamyo y'umweru iparitsemo mu imbere mu nzu ku makaro, n'iyindi iri hakurya yindi na yo iparitsemu imbere mu nzu ku makaro.

Ndabona imodoka y'umukara icanye amatara, i ruhande rwayo hahagaze abakobwa babiri bambaye amapantaro y'ubururu n'imipira y'umweru, bakaba bambaye n'udupfukamunwa dusa umweru, umwe arisukishije ubundi nta musatsi afite.

Abagabo b'abazungu batatu n'mwirabura umwe bahagaze imbere y'imodoka bari kuyifotorezaho, umugabo umwe w'umuzungu afite akamverope gasa umutuku abandi bafashe ikirangantego bari kwifotorezaho bagiteretse ku modoka bahagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere yimodoka, barimo barayifotorezaho umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati ya move n'ipantaro y'umukara, undi yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ishati y'ubururu bahagaze imbere y'inzu.

Inyubako zisanzwe zisize amarangi y'umutuku hejuru, hasi hakaba hariho umuhondo, imbere yawo haparitse ibinyabiziga bitandukanye, harimo ikinyabiziga cy'umutu, umweruru, ubururu hakaba hari n'abagabo bahagaze iruhande rwabyo.

Ndabona abantu babiri bicaye umwe ari imbere y'ikirahure undi ari inyuma y'ikirahure, nkabona na mudasobwa iri imbere yaho bameze nk'aho bari muri banki umwe arimo arasinya, undi arimo aramureba mu maso.

Iduka ririmo amata y'inyange y'uruganda rw'inyange, hakaba harimo n'imitobe y'uruganda rw'inyange, hakaba hari indobo zirimo capati, mandazi, hakaba n'amazi y'inyange ari mu gikarito.

Umukobwa urimo urasuka amata mu bikombe bine, iruhande rwe hari n'ijage isa umweru, ibikombe biteretse ku ma purato y'umweru atatu, inyuma ye hamanitse itaburiya y'umweru, ari n'amasahane y'umweru.

Ndabona intebe ziri munzu zifite amabara atandukanye harimo iy'umweru, harimo iy'umutuku, harimo n'imisego isa umutuku isa n'umweru harimo n'ameza ku meza yateretseho ururabo iruhande rwaho hari akabati karimo televiziyo.

Ndabona intebe zikikije ameza, intebe zisa ikigina n'umutuku, iruhande rwawo hari inzugi z'umweru n'amadirishya y'umweru ziteretse hanze ahantu hari amakaro.

Inzu ebyiri ndende z'amagorofa atatu ziteganye, imwe ihagazemo umugabo wambaye ishati n'ipantaro. Hari ubwogero bw'amazi, imbere yayo hasa ubururu. Hateretseho n'intebe zifite imitaka.

Ndabona salo irimo intebe z'umweru ameza y'kirahure ateretseho uburabyo narwo ruri mu kirahure mu ntebe harimo imisego irimo indabo mu nzu ndabona hari ikintu kimeze nkgiti gihagaze muri salo.

Ndabona ahantu harimo intebe zisa umutuku n'umukara, imbere yazo hari ameza y'umweru n'amamashini asa umukara atetse n'ibikuta bisa umweru.

Ndabona umunyeshuri hejuru ditseho muriketi banke ndabona abagabo batanu bahagaze imbere y'iyo nyubako bambaye udupfukamunwa bagiye bari kuri telefone buri wese areba mu cyerekezo cye.

Isoko ririmo abantu benshi barimo barahaha hamanitse ibikapu bikorwa mu bitenge, harimo abagore barangaye babiri bicaye imbere y'imashini idoda, hakaba hakurya abazungu n'abandi banyarwanda basanzwe bameze nk'abarimo barahaha.

Ndabona imboga nyinshi zitandukanye zivanze mu mu kabati harimo karoti harimo amashu harimo ibitunguru by'umutuku harimowo ibitunguru by'ibibabi harimo n'ibindi bibabi bakoresha salade.

Ndabona inzu ndende y'igorofa, inyuma yaho hariho umusozi uteyeho ibiti bisa icyatsi, imbere y'iyo nzu hari imodoka iparitse y'igikamyo isa umweru, imbere yawo hahagaze n'uw'umugore n'umugabo.

Ndabona inzu yi igorofa ifite ibirahuri by’ubururu n’umukara imbere yayo haparitse imodoka enye na moto mu muhanda. Harimo hagenda imodoka yindi na moto, nicyapa kiri kuruhande rw’umuhanda.

Ndabona inzu y'igorofa imbere yayo hariho igiti gisi icyatsi nkabona hariho n'umunara w'umweru munsi yawo hahagaze abantu benshi batandukanye, bahagaze mu mutaka umwe usa umutuku undi usa ubururu.

Ndabona abantu benshi bari mu isoko hasi hamennye ibirayi byinshi, hamennye n'ibitoki, nkabona abakecuru bakuze, nkabona abamama bakiri batoya, nkabona abandi bagabo bambaye amasaro bita si ubururu bari mu isoko.

Mu isoko ry'imboga harimo inyanya, ibitunguru by'umutuku, iby'umweru hakabamo indimu, ibirungo byo guteka mu biryo, umusore wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umukara urimo arabicuruza, inyuma ye hari umubyeyi w'umumama uteze igitambaro cy'umukara.

Ndabona moto ebyiri ziparitse mu muhanda, hari n'abagabo babiri barimo barishyura moto buri wese yose yishyura moti ye, bose bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, yaba abamotari, yaba n'abagabo, buri wese ari kwishyura akoresheje umwe telefone, undi akishyura ari kurerebaba mu ikofi kugira ngo abashe kwishyura moto.

Umugabo utwara ipikipiki yambaye ikote ry'ubururu n'ingofero y'umuhondo, afite amverope yanditseho Kasha mu kinyarwanda.

Ndabona ishusho iriho radiyo, inkweto, umupira umanitse, nkabonaho na telefone, nkabonaho na mudasobwa, nkabonaho na televiziyo.

Umushoferi w'ipikipiki arayiparitse arimo akuramo ibintu yari atwaye ku ipikipiki, mu gikarito gisa umutuku arimo arakuramo agakapu gasa umweru, harimo n'ibindi bikapu bisigayemo.

Ubwiherero bwo muzu buteye ku gita, gifasheho amakaro cyose kizengurutswe n'amakaro, hejuru hakaba harimo ikizingiti gisa nka kake, hakaba hari n'ubwogero bukikijwe n'ibirahure gusa.

Ndabona inzu ebyiri ndende, imwe idasojwe kubakwa, hasi hakiriho ibikoresho bakoresha bubaka inzu, iyindi nkabona irasoje imeze neza zubakishije amatafari ahiye, hamwe hari amategura.

Inzu isakaje amategura, ifite amadirishya y'ibirahure; ifite iruhande rwayo ibyatsi by'icyatsi; iruhande rwayo hejuru hateye igiti kirekire kirenga ku nzu, n'imbere yaho hari amakaro.

Mu iduka bamwe baracuruza amasorori bashyiramo ibyo kurya; asa ubururu, asa umuhondo, asa umweru, harimo umumama, aba papa buri wese ararangaye arimo arahitamo ibyo ashaka kugura, ibikoresho byo mu gikoni byose n'amaterimutsi n'ibikoresho bakoresha bashyushya amazi.

Ndabona umusore umeze nkaho ari kugura imyenda uhagaze wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara, iruhande rwe hateretse inkweto zifunze z'umukara, imbere ye hamanitse imyenda, imipira, amapantaro by'amabara atandukanye.

Isoko ribimo, umugore uri mu guhaha, afite igikapu mu ntoki cy'icyatsi, harimo ibyo kunywa, n'ibyo kurya bipfundikiye, hirya hari abandi bagabo barimo barahaha mu isoko nabo.

Isoko bacururizamo imyenda itandukanye, amakanzu, imipira, ibikapu bikoze mu mikenke n'imipira idoze mu bidodo, hicaye umudamu umwe uri kubicuruza n'andi makanzu y'amabara atandukanye.

Ndabona isoko ry'imyenda imanitse, harimo abantu barimo barahaha, harimo umugore wambaye agapira k'umutuku, hari umugabo uri kuri telefone, hari amakoti abiri amanitse iry'ubururu n'iry'ikigina, hakaba n'umugore ubyibushye wambaye ishati y'umweru n'undi mugabo, hakaba hamanitsemo imyenda yiganjemo ari imyenda y'abagabo.

Nndabona abantu bahagaze ahantu muri salle harimo abakobwa, harimo abana batoya, bamwe bafashe akaboko, hari nabandi bantu babiri bahagaze hejuru harimo abambaye ijiri ya orange no hasi hari akana kambaye umupira w'umuhondo.

Ababyeyi bane b'abamama, umwe ateruye umwana yambaye ishapule mu ijosi, abandi baterura ibipapuro mu ntoki, undi yambaye umupira w'icyatsi, umubyeyi ukuze yiteze igitambaro mu mutwe, abandi bose bafite umusatsi ku mutwe.

Isoko ririmo ibyo kunywa bitandukanye, yaba ibyo mu makarito, yaba ibyo mu mavide, ibikoze no mu mbuto zitandukanye, ibikoze mu myembe, ibikoze mu matunda, yaba ibikoze muri pome na fanta zo mu ducupa, zikorwarwa n'uruganda zitandukanye amabara.

Iduka ririmo abantu batatu, abamama babiri n'umusore umwe, umumama umwe ufite umusatsi arimo aragura amavuta yo guteka, arimo araterura akajerekani kamwe kabonerana, karimo amavuta undi ucuruza nawe ararangaye, uwundi musore ari kureba ibyo kugura.

Isoko rinini cyane ririmo ibikoresho byinshi bitandukanye arimo umusore urimo araha, igikoresho gishyushya ibiryo arimo aterarura ibikoresho bibiri ari kubireba agaseka, hari undi uri iruhande rwe wambaye ingofero y'umuhondo urimo aramufotora.

Isoko ricuruza ibyo kurya biri mu kabati, mu tubati dutandukanye, harimo ibiri mu mashashi asa umuhondo, ibiri mu mashashi asa icyatsi, amashashi asa ikigina

Iduka ririmo ibikinisho by'abana byinshi bitandukanye harimo abantu benshi bari batandukanye birimo abagabo, harimo abagore, harimo n'ibyo kurya imigati, ama biswi, n'ibyo kunywa.

Isoko ririmo imbuto nyinshi zitandukanye inanasi, amatunda, ibinyomoro, amapera bigiye bigepanze mu tubati dutandukanye, ahantu hatandukanye, mu makarito atandukanye, asa amabara atandukanye kugira ngo mubitandukanye.